Ni byiza ko buri rugo rukwiye gutunga agatara ko kwanikaho amasahani, mu gihe umaze koza amasahani ukayakorera amasuku, ni byiza ko ugomba kuyanika akumuka ukabona kuyabika.

Mu gikorwa kiza cyakozwe n'abanyabuzima n'abakangurambaga, habonetse ababyeyi benshi bafite abana, babigisha uburyo bakwiye kugaburiramo abana ibiryo bifite intungamubiri, babaha amata, banabagaburira ibyo biryo.

Icyumba cy'inama igizwe n'abayobozi batanu, bicaye neza mu ntebe z'imikara, bakaba bafite imeza ngari nini, iyo meza ikaba iriho: impapuro, amatelefone, amazi yo kunywa, bakaba bari mu nama.

Abantu benshi baje kureba ivomero bubakiwe ryari rimaze iminsi ritazana amazi. Aho iryo vomero rikoresha ingufu z'amaboko mu kugira ngo ayo mazi aze. Hakaba hari kuvoma umubyeyi wambaye agapira k'icyatsi kibisi n'umwana.

Umukozi ukora mu ishami ry'ikigo cy'ubuzima rikorera ku Isi, ari kumwe n'umukobwa wambaye isaha y'umweru n'agapira k'icyatsi kibisi, bahagaze imbere y'ameza arimo ibikarito by'imiti.

Umuganga uri kumwe n'umubyeyi bakaba bafite umwana bakaba bari kumuha umuti wo kunywa, bakaba bari kumusekera, bari kumukinisha, muganga yamufashe ku munwa kugira ngo abashe kuhasoma.

Abaturage b'abagore bicaye hafi y'ubusitani bw'ivuriro bakaba bari kumwe n'umuganga waje kubitaho akaba ari kubasuzuma akoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga babaziritse ku kaboko akaba bicometse mu matwi akaba ari kubireba ku cyuma afite abapimisha indwara.

Ihuriro ry'abaturage barimo abagabo n'abagore bazanye amakaramu n'impapuro baje mu nama baricaye bari kwandika imyanzuro y'inama ibereye muri icyo cyumba Kigali.

Abagore babiri bambaye udupfukamunwa, bari kumwe n'umugabo umwe; umugabo wunamye ari kunywa amazi, bishimiye ivomero Leta yabahaye, bafite ibivomesho bari kuvomeramo amazi bajyana mu rugo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara rya kaki, harimo abahungu n'abakobwa, berekeje ku ivomero, aho bari kuvoma amazi yo gukoresha, bakoresheje imbegeti n'utudomoro.

Ikigo cy'amashuri abanza cyubakishije amatafari ahiye, gifite abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara rya kake, kikaba gifite ivomero ry'amazi abakora muri icyo kigo babasha kubona amazi bakoresha muri icyo kigo ndetse n'abanyeshuri.

Mu cyumba cy'inama kinini cyane, kikaba cyicayemo abantu bicaye mu buryo bw'amatsinda, bakaba bicaye imbere y'ameza akoze nk'ikizeru, aho kuri ayo meza bafiteho impapuro n'amakaramu, ndetse iyo meza ikaba iriho n'amazi yo kunywa.

Ibigo by'amashuri abanza, ni byiza ko bigomba kugira ububiko bw'amazi meza, abanyeshuri bagomba kunywa, igihe bagize inyota kandi ntabagireho ingaruka nk'izo kurwara inzoka.

Ni mu gikorwa cyo gukingiza abana b'impinja, ababyeyi babazindukanye bicaye ku mirongo, bamwe bari konsa abana, abandi bari kubaterura, abandi bari kubagorora, bamwe bari kuganira.

Ivomero rikoresha ingufu z'amaboko hariyo abantu bane, umusore umwe uri gufasha bagenzi biwe kugira ngo babashe kubona amazi meza bakoresha mu ngo iwabo, akabagirira umumaro.

Abagore benshi bateraniye mu cyumba cy'inzu bahujwe n'indirimbo bari kubyina abandi bakaririmba; abari imbere yabo bamanitse amaboko bari kuririmba indirimbo za kinyarwanda n'imbyino za kinyarwanda.

Umukobwa wari uri kugenda mu modoka y'umweru, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira kubururu, yari anyuze ku ivomero rikoresha ingufu z'amaboko ahasanga abana bane, bananiwe kuvoma abafasha kuvoma amazi barataha.

Akagoroba k'ababyeyi, kari karimo ababyeyi benshi baje bakenyeye ibitenge, abandi bahetse abana, aho bari bari kumwe n'abakoranabushake, aho babigishaga uburyo bwo guteka indyo ifite intungamubiri zuzuye.

Umugore uvuye ku ivumiro ukenyeye ibitenge, akaba afite ibikoresho akoresha avoma birimo indobo ziri mu mabara abiri zirimo amazi, indobo y'umuhondo ndetse n'indobo y'umutuku, imwe akaba ayikoreye iyindi ayifite mu ntoki.

Icyumba cyahuriyemo abantu benshi, harimo abagabo n'abagore, bicaye mu buryo butandukanye, bamwe bagiye barema itsinda buri tsinda ryicaye ukwaryo, hakaba harimo n'abagiye bahagaze, hakaba harimo n'umugabo umwe uri gufata amashusho.

Mu byishimo byinshi, abakozi bo mu Kigo Nderabuzima cya Muyange bambaye impuzankano zisa, bashimiye abashyitsi babasuye b'abazungu, babashimira inkunga babahaye.

Iki ni icyumba kirimo igitsina gabo n'igitsina gore, gishinzwe gukumira no kurinda abangavu gutwita no gutwara inda zidateganijwe bakiri batoya kugira ngo bazagire ejo heza.

Igitaramo cyabereye mu cyaro kirimo abana benshi ndetse n'urubyiruko, kigamije ubukangurambaga bwo kwigisha abana ndetse n'urubyiruko kwirinda icyorezo cya Ebola.

Abana bari kuva ku mashuri bambaye impuzankano iri mubara ry'ubururu n'amakabutura ya kaki, bari gutaha bava ku ishuri, banyuze ku ivomero babona umwana uri kuvoma umwe muri bo abavamo ajya kumufasha kuvoma amazi.

Umugore n'umugabo, umugore akaba yambaye ibitenge bakaba bicaye ku ntebe z'ibiti, bakaba basuwe n'umukozi ukora mu kigo nderabuzima, akaba ari kubafasha mu buryo bwo kubahugura uburyo bagomba kwitwara ndetse bubaka n'inzitiramibu birinda kuribwa n'imibu itera malariya.

Urugendoshuri rw'abagore n'abagabo bari mu rungano, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku n'umukara, bakaba bari kumwe n'abashinzwe umutekano, bakaba bari kwiga uburyo bateza imbere ubuhinzi bw'akarima k'igikoni.

Mu nama y'ibihugu bitandukanye bihurira ku rurimi rw'icyongereza irimo abera n'abirabura baganira kubibazo bigiye bitandukanye birimo ubukungu, imigenderanire n'umutekano.

Abagore n'abana babo baje kwa muganga aho bita ku kigo nderabuzima, bakiriwe n'umuganga w'umugabo wambaye itabuririya y'ubururu ndende, ari kubakingira neza ntakibazo.

Mu cyumba kinini cyane cyahariwe gukorerwamo inama, abantu bicaye ku mirongo bari kugirwa inama y'uburyo bakwiteza imbere, bakagira imibereho myiza mu buzima bwabo.

Umugabo ukora mu ruganda rw'ibyuma, yambaye uturindantoki ari gufunga ibyuma akoresheje ibindi byuma akabihambiranya, ibyuma bikoreshwa mu bwubatsi, ibyo byuma bifasha inyubako kugira ngo ikomere.

Umubyeyi wazanye umwana kwa muganga, umwana uri mu kigero cy'igisekeramwanzi, aho muganga yamufashije akamuha intebe yo kwicaraho, akamwicara iruhande aho ari kumva umwana ko afite umuriro mu buryo bwo kumukora ku ijosi.

Abana babiri bagiye ku ivomero ry'amazi, bavoma amazi bavomera mu kivomero cy'indobo gisa ibara ry'icyatsi kibisi, umwana bimunanira kwikorera asaba mugenzi we ko amukorera, amukorera neza kugira ngo atamumenekaho.

Ivomero ririho abana benshi, hakaba hari umuntu wumugabo waje kuvomera abo bana kugirango batabyigana. Yabashyize ku mirongo, aho buri mwana wese afite ikivomesho kigiye gitandukanye. Hari abazanye indobo, hari abazanye ibi bido, hari n'abazanye utujerekani dutoya biri mu mabara atandukanye ubururu, umutuku n'umuhondo.

Mu kigo cy'amashuri y'abana, aho abana bambara impuzankano iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, umwe mu bana yagiye ku ivomero ry'ikigo, arafungura amazi, akajya yoga mu ntoki.

Mu cyumba gifite ibara ry'umuhondo n'aho gukandagira h'umutuku, harimo abana batatu b'abangavu bari kumwe n'umutoza umwe w'umugore, akaba ari kubigisha uburyo baza kwitwara mu irushanwa.

Ikipe y'urubyiruko rw'abanyamakuru irimo abasore n'abakobwa mu myambaro y'umweru y'impuzankano, bagiye aho bita inyabageni gushaka amakuru ajyanye n'uko uwo murenge ukora.

Umugabo waje kuvoma, akaba afite ikivomesho kiri mu ibara ry'umuhondo, akaba yishimiye ivomero bahawe, akaba yambaye ipantaro y'umukara, akaba yambaye ishati ifite amabara abiri, umukara n'umweru.

Abaganga bari gusuzuma indwara y'icyorezo COVID cumi n'icyenda, bakaba bambaye mu buryo bipfukiranye umubiri wose kugira ngo batandura iyo ndwara yandurira mu mwuka, aho bambaye amasashe ku mutwe abonerana n'udupfukamunwa.

Umubyeyi yazanye umwana kwa muganga, yakirwa n'abaganga batandukanye, bagera nko muri bane, bakaba bari kumukingira indwara, ahazaza kugira ngo azagire ubuzima bwiza, ariko uwo mwana akaba ari kurira, kubera ko atinya urushinge.

Umwana wagiye ku ivomero yaciye bugufiya aricara abanza koga ku ntoki, afite ibivomesho bitatu biri mu mabara abiri atandukanye, ubururu n'umuhondo, afite n'umubirikira umufasha kugira ngo amazi yinjire mu bivomesho bye neza.

Abana babiri bari mu kigero cy'incuke, aho bagiye ku ivomero basanga amazi ari kuza, barangije baca bugufi babanza gukina nayo, maze ku biganza babona gutaha.

Umwana w'umukobwa uvuye kuvoma wikoreye ikibido cy'amazi yapfundikishije umukanana, akaba yageze mu nzira agatura kugira ngo aruhuke, aho abagabo batatu bamunyuragaho bari kumwe n'umukobwa yabasabye ko bamukorera akomeza urugendo ajya iwabo.

Mu nyubako irimo icyumba k'inama, harimo ameza maremare cyane, uruhande rw'ayo meza hicaye abantu bari mu nama, kuri ayo meza hari indangururamajwi, buri muntu wicaye iruhande rw'ayo meza afite indangururamajwi, inyuma yabo hari ikirango cy'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Ikirango cy'ikigo cy'ubuzima ku Isi, kiri mu mubumbe kikaba gifite amabara abiri, icyatsi kibisi n'ubururu, biri mu bice bitatu n'imirongo ifatanye.

Abanyeshuri bari kurangiza amashuri mu buvuzi bw'amatungo, bakaba bakoze urugendo shuri rwo kujya gusura inyamaswa bari kumwe n'umuyobozi w'ikigo cyabo, aho yari yambaye ikote n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru na karuvate, ndetse bari bari kumwe n'umwarimu wabo.

Abana bakiri batoya b'abakobwa b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, bari ku ivomero, aho bari koga ibiganza n'amazi meza.

Akagari ka Nyabageni ni Akagari kubakishijwe n'inyubako y'amabuye, hejuru hariho ibara ry'umweru. Hakaba hateraniye imbaga y'abantu benshi, harimo abagabo n'abagore bahetse abana, hakaba harimo n'abasaza.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hari inyubako ntoya. Imbere y'iyo nyubako hakaba hari ihema ry'umweru, abantu bamwe bakaba baryicayemo, abandi bakaba bahagaze, abandi bakaba bicaye hasi. Imbere y'iyo nyubako hakaba hari ikirango cy'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inama idasanzwe y'urubyiruko mu mpuzankano y'imipira y'umweru, batumiwemo n'abayobozi babo, mu nama iri mu cyumba kigari kinini, bakaba bicaye bari gutega amatwi.

Igikoresho gikoreshwa n'abaganga mu kuvura abantu bita urushinge, ni igikoresho ukoresha mu buryo bwo gutobora umuntu kigashyirwamo umuti kikohereza mu mubiri w'umuntu.

Ikirango cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe gutanga amazi mu Rwanda hose kuri buri muturage aho atuye hose kandi kikamuha amazi meza, amazi meza kuri buri muturage.

Umwana uri iruhande rw'inyubako itaruzura, y'amatafari akozwe na sima n'umucanga, ikaba idafite amadirishya, uwo mwana ahantu ari hakaba hari ikigega kibika amazi, akaba ari gufungura amazi mu gikombe cy'umweru amazi agiye kunywa.

Ivomero ririho umwana wambaye agakabutura k'umutuku, akaba yambaye agapira k'umweru akaba afite ibivomesho bine biri mu ibara ry'umuhondo, iryo vomero rikaba ryubatswe na sima ndetsete n'umucanga.

Mu cyumba cy'inama habereyemo inama y'urubyiruko bicaye ku meza akoze nk'ibizeru, bakaba bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi n'impuzankano y'umweru, bakaba bambaye bose udupfukamunwa.

Umugabo n'umugore, bagiye ahantu hari umugezi munini, aho umugore yinjiye mu mazi, akaba ari kuvoma amazi atemba, umugabo akaba ari koza igare iruhande rw'uwo mugezi, akaba yambaye umupira w'umuhondo.

Ahantu hahuriye abantu benshi, harimo n'inzego z'umutekano, hari amahema bahagazemo, hakaba hari n'inyubako ntoya, hakaba hari n'ikirango cy'Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, haje imbangukiragutabara kugira ngo ifashe buri muntu wese wahagirira ikibazo.

Umugore uri kumwe n'umwana we mutoya, basuwe n'umugabo uri mu bushakashatsi, ufite ibitabo kugira ngo ababaze ibijyanye n'ubushakashatsi arimo gukora muri uwo mudugudu.

Umugore witeye ikanga, wogoshe umusatsi wose, yagiye ku ivomero riri hepfo y'imisozi, rikikijwe n'ibihuru, akaba ari kuvomera mu kibido cy'umuhondo.

Ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri matoya, aho bwazanye ububiko bw'amazi meza yo kunywa abana bazajya bakoresha bari kunywa, icyo kigo kikaba gifite abana bambara impuzankano iri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Abakozi babagabo n'abagore bahuriraga mu kazi, babanje gukora inama, iyo nama bayikora bicaye imbere y'ameza manini, babanza gufata amafunguro, arimo icyo kunywa n'icyo kurya, maze bakomeza inama.

Mu cyumba cy'inyubako harimo ameza maremare, iburyo n'ibumoso hicayeho abantu bari kurebana mu maso, abantu bari mu nama, imbere yabo bafite amakaramu n'amakaye bakaba bafite amaterefone bari gukurikirana uko inama igenda.

Umwana wambaye agapira gatukura, agakabutura k'ubururu yafashe igikombe yerekeza ku ivomero kugira ngo abone amazi yo kunywa yari afite inyota nyinshi.

Inyubako y'ivomero ikaba iri mu mabara abiri, ubururu n'umweru, ikaba ifite amavomero abiri, ikaba iriho abantu benshi bafite ibibido bashyize ku murongo, bijyanye n'ukuntu bagiye baza.

Mukibaya k'imisozi turahabona abana benshi umwana umwe ari kwereka abana bari iruhande rw'icyokidendezi k'imvura ko badakwiriye gukoresha amazi y'icyokidenzezi kuko aba yanduye.

Inama yahuje abakozi bose bakora amasuku mu karere, bakaba bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu bita amataburiya bakaba bamwe bicaye abandi bahagaze iruhande rw'ubusitani bwiza bw'ako karere hepfo yaho hakaba hari ihema rinini ryubatse mu nyubako y'umweru.

Mu cyumba cy'inama bateye intebe mu buryo bw'ikizeru, intebe yicarwaho na buri muntu umwe umwe umwe, mu ntebe ikoze mu giti, ifite imifariso mu buryo bwo kugira ngo baze gukora inama barebana. Iyo nama irimo abagabo n'abagore.

Ibarura rusange mu gihugu cyose rishingiye ku mibereho y'abaturage iri kubera mu midugudu, aho ababarura basanga abantu mu midugudu batuyemo bakababaza ku bijyanye n'imitungo bafite uburyo babayeho n'ibyo bakora.

Umusore uri mu nyubako isa nabi, iyo nyubako arimo akaba yambaye ubusa ikaba ifunze, uwo musore akaba ari gukorerwa iyicarubozo, afite umusatsi mwinshi akaba yambaye ubusa adafite n'ikintu na gitoya yambaye.

Umugore uvuye mu murima w'ibijumba akaba avuye gukura ibijumba akaba yabishyize mu gitebo akabashyiramo n'imigozi y'ibijumba akabyikorera akaba abicyuye mu rugo, uwo mugore akaba afite isuka mu ntoki akaba anyuze ku nzu iriho isakaje amategura.

Ubushakashatsi burigukorwa mu baturage bugamije gushakisha ukuntu abaturage babayeho. Aho abo bashakashatsi basanze abaturage mu midugudu batuyemo babategurira ikibuga bagomba guhuriramo.

Umugabo wambaye agapira k' umukara ,akaba ari kimwe n' umugore ufite imisatsi iboheranyije y' inyweri. Bakaba bicaye imbere y' ameza y' icyatsi kibisi Ku meza hakaba hari igikapu k'ikigina.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, wambaye ipine ryimodoka, akaba afite umusatsi wikaraze kandi usa nabi, akaba afite ubwanwa bwinshi, akaba yicaye hasi, akaba asa nabi cyane, akaba afite umwanda mwinshi.

Ikipe y'abantu benshi cyane, bagiye mu bukerarugendo, aho umugabo umwe muri bo yagiye ku ruhande kugira ngo afate ifoto y'urwibutso rw'aho bagiye, ajya inyuma y'ishusho iriho inyamaswa nini cyane yitwa ingagi.

Ikigo cy'incuke kirimo abana b'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano y'ibara ry'icyatsi kibisi, imbere bafungishije karuvati z'ubururu, bakaba bari kumwe n'umurezi wabo, akaba yabateye inkuru bagaseka cyane.

Icyumba kirimo abantu batatu babiri b'ababyeyi bafite abana babo bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima bicaye imbere y'ameza, ari kubigisha uburyo bagaburira abana babo indyo yuzuye.

Umugabo n'umugore bicaye mu rugo iwabo umugabo akaba afite ibibazo byinshi akaba acuritse umutwe mu maguru akora mu gahanga aho umugore yamwegereye akamwicara ku ruhande akamukoza akaboko mu bitugu akamuhumuriza akamubwira amagambo atuma agarura icyizere.

Cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, cyakoranye inama n'abayobozi bacyo bose, bamaze gukora inama bamwe baricara abandi barahagarara, bafata ifoto harimo abagabo n'abagore.

Mu inama y'abaturage ,yaririmo abagabo n'abagore, umuturage yabajije ikibazo abayobozi biwe, wari wambaye, amaherena, imirimbo ku kaboko ,wari ufite imisatsi myinshi , abaza ikibazo cy'umutekano muke bafite mu mudugudu wabo.

Abayobozi b'Ikigo Imbuto Foundation, bahagarariwe n'Umugore wa Nyakubahwa Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda, bahagaze bafite ibirango by'Ikigo Imbuto Foundation bafata ifoto.

Mu ruvange rw'abasore n'abagabo n'abagore bambaye imyambaro y'udupira tw'umukara, bicaye batumbereye umuntu uri imbere yabo kugira ngo bumve ikiganiro ari kubaha.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyateguye inama ifite insanganyamatsiko igira iti :"Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera hose." Inama yari igizwe n'abagabo n'abagore.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, ufite umwanda mwinshi mu musatsi, mu bwanwa bwinshi, wambaye umwenda wanduye w'umukara akaba amaze igihe atoga.

Inyubako iri mu cyaro yubakishije ibyondo n'umucanga, ikaba ifite utudirishya tubiri dutoya, ikaba imbere yayo hari abantu bahicaye, bicaye ku ntebe bakunda kwita karambarazi, bakaba ari batandatu, abagabo babiri, abagore batatu n'umwana umwe.

Ni mu kigo cy'ubuzima bita RBC, ni mu cyumba cy'inama, iyobowe n'umugore n'umugabo imbere yabo hari indangururamajwi n'amazi yo kunywa, imbere yabo hari icupa ry'umuti bita sunitayiza wo gukaraba ku ntoki, inyuma yabo hari Ikirangantego cy'u Rwanda.

Ababyeyi batatu b'abakangurambaga, basuye umugabo n'umugore babigisha uburyo bagomba kugira isuku, aho basanze uwo mugabo arwaye indwara y'amavunja, bamutegeka kuyakura ndetse bamuha n'umuti wo kuyashyiramo, bamubwira ko isuku ari ubuzima.

Umuyobozi w'Ingabo z'Igihugu yahuye n'umuryango we ugizwe n'abantu icyenda ubwo yabasuraga, harimo abagabo bane hakabamo abagore batanu, ubwo yabasuraga baganiriye baranizihirwa bafata n'ifoto y'urwibutso.

Umubyeyi uri mu gahinda ufunze akaguru wungishije umunyururu w'icyuma akamushimangira ku giti, aho yambaye umwenda w'umuhondo w'agapira akaba yambaye n'igitenge akaba yicaye ku musambi.

Urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano y'imipira iri mu ibara ry'ubururu rw'abakorerabushake, rwishimiye guhura n'umukuru wabo w'umupapa ukuze wambaye ishati y'umweru n'umukara hamwe n'umwera umwe.

Ikigo cy'amashuri abanza gifite abanyeshuri benshi cyane abahungu n'abakobwa, bakaba bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu muri icyo kigo hakaba hashinze itapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi.

Abakobwa babiri basa bari mu kigero gitandukanye bigaragara nkaho bavukana ,umwe yambaye amaherena undi aracyari muto yambaye ikanzu y'ubururu irimo ibara ry'umweru ,undi yambaye ikanzu y'umukara afite imisatsi iboshye .Umukuru bigaragara ko ari kuganiriza umutoya.

Inyubako bafungiyemo umugabo wambaye igikwembe, ikaba ari inyubako ishaje isa nabi irimo umwanda mwinshi, uwo mugabo aho yicaye asutamye afashe mu gahanga ari kwibaza ukuntu agomba kuva muri iyo nyubako.

Umwana wigishijwe neza gusukura amenyo yiwe akoresheje uburoso n'umuti w'amenyo, akaba ari kubyikoresha nta bandi bamuhagarariye bamwereke uko agomba kubikora cyangwa ngo bamwerekere.

Koza amenyo ni byiza ni ingenzi uburyo bwinshi rero bwo koza amenyo, ushobora kuyoza ukoresheje urudodo rwabigenewe cyangwa ukayoza ukoresheje uburoso n'umuti w'amenyo urugero nka korugate.

Abana b'inshuke bari ku ishuri, bambaye impuzankano zisa, bari kwiga isomo ry'ukuntu boza amenyo agasa neza ukayarinda kurwara, bari gukoresha korogate, uburoso n'amazi meza.

Umuganga uvura amenyo, ari gutanga amasomo akoresheje mudasobwa, amashusho ari muri mudasobwa, agaragaza uburyo amenyo afatwa n'uburyo amenyo yandura, n'uburyo ugomba kwirinda kugira ngo utarwara indwara y'amenyo.

Umusore wirabura akaba ari mu cyumba cyo kwa muganga, akaba afite uburwayi bwo mu kanwa akaba ari ari kwitabwaho n'abaganga babiri. Aho umuganga umwe afite urushinge agiye kumutera undi muganga akaba ari kumufasha mu buryo bwo gukamisha amacandwe ari mu kanwa kiwe, akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga.

Umusore w'ingimbi arasamye ari kwerekana uburyo bakorera amenyo isuku, agatunga amenyo meza yererana akoresheje urudodo.

Umwana wababaraga iryinyo cyane arijyana kwa muganga, muganga amaze kurireba asanga ryaratobotse, aho muganga yafataga icyemezo cyo kumutera ikinya kuri iryo ryinyo ry'ikijigo kugira ngo abashe kurihoma maze atababara.

Umukobwa ufite ikibazo cy'amenyo yageze kwa muganga ahura n'umuganga, uwo muganga yari yambaye agapfukantoki abanza kumwereka ikibazo afite cy'amenyo, umuganga ayasuzumye amubwira ko akeneye insimburangingo y'amenyo.

Umwe mu bakobwa bigisha mu kigo cy'amashuri abanza, aho yigishaga abana koza amenyo neza, yabigishije uburyo bakoreshamo uburoso ndetse n'umuti w'amenyo, amaze kubigisha abagurira umuti w'amenyo buri mwana wese amugurira n'uburoso.

Umugabo uri mu buvumbuzi, ari mu cyumba cy'ubushakashatsi burimo imashini nyinshi zitandukanye, ari kwandika bimwe mu bisubizo ari gukura mu byo ari gushaka.

Mu ivuriro harimo icyumba kirimo intebe ebyiri, iy'umurwayi n'iy'umuganga, intebe y'umurwayi ni intebe ikoranye ikoranabuhanga riri hejuru rihambaye ku buryo umurwayi abasha kuyicaramo, ikabasha kumuvura imitsi y'umugongo.

Amenyo y'umuntu mukuru agomba kuba afite umubare ungana na mirongo itatu na kabiri. Amenyo akaba afite ibice bibiri igice kiri mu mubiri mbere n'igice kigaragarira amaso kiri hanze. Amenyo agomba kuba afite ibara ryera amenyo akaba agira amazina atandukanye hari amenyo y'ibijigo n'amenyo bita muzitsa.

Wambaye umwenda bajyana iyo bagiye kwiyuhagira uri mu cyumba cy'urwiyuhagiriro, akaba afite uburoso buriho umuti w'amenyo, akaba ari kwireba mu ndorerwamo uburyo ari kozamo amenyo yiwe.

Umukobwa w'umwirabura wasetse uzi gukorera amenyo yiwe neza isuku, ufite inzara z'umweru uzi kuzica neza, akaba akoresha ubugenge bw'intoki.

Sukura hagati y'amenyo yawe ukoresheje urudodo rwabugenewe rukuramo imyanda hagati y'amenyo, urudodo ni igikoresho cyiza ushobora gukoresha usukura amenyo yawe akaba umweru, akavamo imyanda ihuza iryinyo n'irindi.

Abagabo n'abasore n'inkumi n'abagore, bamaze gusoza umwiherero bakoraniye ahantu hamwe bafata ifoto y'urwibutso, mu buryo bagaragaragamo ko bishimye kandi bari bambaye neza mu buryo burimbitse.

Ubwo umurwayi yageraga kwa muganga yari afite uburwayi bw'indwara zifata mu muhogo, yakiriwe n'abaganga babiri; umugabo n'umugore bambaye impuzankano y'ibara ry'umukara bambaye n'amadarubindi, bafatanya kumureba mu muhogo bamusaba kwasama.

Umubyeyi n'umwana uba ukiri muto bambaye imyambaro isa iri mu ibara ry'umweru barasamye berekana uburyo ushobora gukura imyanda mu menyo ukoresheje urudodo.

Aho abana bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi yanditseho ngo tubiteho. Ni gahunda ababyeyi bihaye y'ubukangurambaga bwo kwigisha abana koza amenyo kandi neza aho babasuzumaga amenyo yabo ngo barebe ko nta burwayi afite batanga korogate, akaba ari umuti w'amenyo.

Ikigo cy'amashuri cyasuwe n'abaganga bavura amenyo, bigisha abana uburyo bakoreramo isuku amenyo mu buryo bwo kuyarinda kurwara indwara zitandukanye zifata amenyo, aho babigishije kuyoza bakoresheje uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Mu nzu yo kubamo, mu cyumba cyo kuryamamo, umukecuru n'umusaza bari muri icyo cyumba, mbere yuko baryama, umukecuru yagiye kuzanira umusaza amazi yo kunywa, yicaye ku buriri atangira kuyanywa.

Umugabo ukuze w'umusaza yagiye kwa muganga, kwisuzumisha indwara, akaba yakiriwe n'umuganga w'igitsina gore, akaba ari kumuganiriza bigaragara ko bishimye, amubaza uburyo yiyumvamo n'uburyo arwayemo, akaba ari kumupima indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Umubyeyi uri kumwe n'umukobwa, uwo mukobwa akaba afite imisatsi y'umukara itendera ku bitugu, akaba afite n'igikoresho gikoreshwa n'abaganga mu ijosi, akaba ari kumwe n'umubyeyi, akaba ari kumutoza imyitozo ngororangingo, aho ari kumufasha guterura ikintu kiremereye, kiri mu kaboko kiwe, mu buryo bwo gukoramo siporo, no gukomeza imikaya y'akaboko.

Mu bitaro harimo icyumba cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Muri icyo cyumba turi kubonamo abantu babiri, umugabo n'umugore. Uwo mugore akaba ari inzobere mu gutoza no guhugura abarwayi uburyo bagomba gukoramo siporo.

Umuryango ugizwe n'abantu batanu bishimye, ababyeyi babiri, n'abana batatu. Bakaba bafite umusore umwe w'ingimbi, bakaba bafite n'umukobwa umwe w'umwangavu, bakaba bafite n'akana kakiri gatoya, bakaba banezerewe, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umubyeyi uri kumwe n'umukobwa wiwe bakaba bafite uruhu rw'inzobe, uwo mubyeyi akaba yambaye amadarubindi bakaba bambaye amaherena ku matwi, uwo mubyeyi akaba ari gutegura ibyo kurya. akaba afite urubuto rwitwa icugwe, akaba afite inyanya, akaba afite icyuma mu ntoki, akaba ari gukata amababi y'amashu.

Munsi y'ibiti bibiri by'inganzamarumbo, bifite amashami maremare ndetse bifite amababi menshi, hicayemo urubyiruko, abagore n'abagabo, bari gukora inama y'Umudugudu.

Umusaza n'umukecuru bari mu rugero rw'ijigija bagikomeye, bicaye mu rugo iwabo kuruhande rw'imeza, bafite ibikoresho bakoresha mu buryo bwo gukina bw'ikoranabuhanga, basetse, barishimye cyane.

Ni ihuriro ryahuje abakecuru benshi basheshe akanguhe, bakubye akabero hasi, bambaye amaribaya n'ibitenge, abandi bambaye ingofero bateze agatambaro, abandi bafite imvi z'uruyenzi beza, bakaba bicaye ku ntebe za pulastike ziri mu ibara ry'umweru bari iruhande rw'urutoki.

Umusaza n'umukecuru bashakanye, bari kumwe, bari mu rugo rwabo, bahagaze imbere y'ameza maremare, aho umusaza yibukije gufata imiti umugore wiwe, aho ku meza yabo hari ibinini n'uducupa tw'imiti n'igikombe kirimo amazi n'amadarubindi.

Mu byishimo byinshi umusaza w'igikwerere afite ari gukina umukino mwiza bita ikibuguzo, aho yatsindaga mugenzi we ibitego byinshi noneho akamuseka.

Mu nyubako harimo icyumba kirimo abantu babiri, umugabo ukuze n'umukobwa ukiri muto, umugabo wambaye imyenda yera n'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, bakaba bari kurebana mu maso.

Mu itsinda rinini ry'abagabo n'abagore, bihaye gahunda bita dusasirane, aho bafashije abantu badafite ubushobozi, babaha ibiringiti byo kuryamamo.

Umusaza uri mu zabukuru, usheshe akanguhe, akaba ari kumwe n'umuhungu wiwe, bakaba bafite urugendo rwo kugenda barambura amaboko, muri uko kugenda bakaba bari kuganira kandi umusaza akaba yabyishimiye.

Umusaza n'umwuzukuru we umusaza wari wambaye amarineti, umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu, umwana wari wambaye ishati y'icyatsi kibisi, ipantaro y'ubururu, bari bari gukina imikino y'ikoranabuhanga bakoresheje intoki.

Inzobere y'umuganga mu kugorora ingingo. Ari gufasha umusaza wambaye amadarubindi, akaba afite umusatsi w'umweru, akaba ari kumufasha kugorora ingingo z'akaboko, aho amuhereza akaha icyuma kiremereye, akamufasha mu buryo bwo kugira ngo akizamure akimanure imitsi ikore neza.

Ni umubyeyi w'umugore uri mu cyumba cye wambaye ipantaro y'umukara imwegereye, akambara agapira k'ubururu kamwegereye, akambara inkweto z'imyitozo ngororamubiri, ari mu gukora imyitozo ngororamubiri yicaye.

Umusaza n'umukobwa we, umusaza akaba yiyegamije umukobwa we, wambaye amadarubindi y'iroza, afite ibirahuri by'umukara, akaba yambaye agapira k'umukara n'umweru, kari imbere mu ikoti.

Abakecuru babiri batojwe guhora bitoza gukora imyitozo ngororamubiri, bakaba bagishaje bagikomeye kubera imyitozo ngororamubiri bahora bakora kenshi, bakaba bafite imisatsi y'umweru, undi akaba afite imisatsi yirabura.

Umukecuru ufite imisatsi myinshi itendera ku bitugu, wambaye amadarubindi, wicaye imbere y'ameza y'ikirahure, akaba ari kunywa imiti irimo ibinini, akaba ari mu cyumba kinini gifite urumuri.

Ababyeyi babiri, bari mu rugendo, umwe akaba afite ikibazo cy'uko yavunitse, akaba afite imbago ari kugenderaho, akaba ari kumufasha kumutoza kugenda, akaba afite agakapu kari mu ibara rya kake, akaba afite n'igikapu kiri mu mugongo yamutwaje kiri mu ibara ry'umukara.

Umugore n'umugabo bashakanye bakaba basazanye aho umusaza afite imvi, umugore akaba afite agatambaro ateze mu mutwe, aho umusaza ari gusoma umugore wiwe bahoberanye.

Abagabo babiri b'ibikwerere bambaye imipira y'umweru, bakaba bambaye amapantaro y'umukara bakaba bari mu myitozo ngororamubiri yo kwirukanka, bakaba bafite mu ntoki amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umuryango mugari ugizwe n'abantu cumi n'abatandatu, harimo abana b'abakobwa n'abahungu bari kumwe n'ababyeyi babo, bafashe ifoto y'urwibutso barangiza umwaka, bishimira ko uwo mwaka wabagendekeye neza, bageze ku ntego bari bihaye gukora muri uwo mwaka.

Mu nyubako yo kubamo irimo umugore n'umwana wiwe uwo mugore akaba yicaye iruhande rw'ameza manini aho bafite bimwe mu bikinisho umwana akoresha bimufasha by'imfashanyigisho mu buryo bw'imikurire yiwe ibyo bikinisho bikora mu buryo bwo kubyubaka babihuzahuzwa.

Inyubako nini isukuye, irimo abantu batandatu, abera batanu n'umwirabura umwe, bari kuyifatiramo amafunguro, bishimye, banezerewe.

Mu cyumba cyagenewe kuriramo, umusaza uri kumwe n'umugore we, bambaye amarinette bari kuganira bicaye imbere y'ameza, aho bari gufata amafunguro, muri ayo mafunguro harimo ibirayi, dodo n'andi mafunguro atandukanye.

Mu birori byahuje imbaga nyamwinshi, turi kubibonamo abasaza, abagore, n'abagabo mu buryo bambaye imyambaro myiza cyane imyambaro bita imyitero, hakazamo amashati meza y'umweru hakaba harimo n'amashati y'ubururu, bambaye n'ingofero nziza z'ibiziga bambaye n'amadarubindi...

Umusaza w'igishongore, utwawe n'umukobwa w'iwe mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda, akaba yambaye amadarubindi, akaba afite imvi z'uruyenzi, akaba ari kugenda aganira n'umukobwa w'iwe, baseka.

Umusaza wambaye amadarubindi akaba ari guseka, akaba ari kumwe n'umuhungu wiwe ufite isura y'inzobe, nawe uri guseka bakaba bari gusoma igitabo, bakaba bicaye imbere y'ameza maremare, uwo musaza akaba afite igikombe kirimo icyo kunywa ndetse n'umuhungu wiwe.

Umusaza wagize ikibazo cyo kuvunika yahuye n'umuganga w'umwera amukoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kongera kugenda neza imvune yiwe ikire vuba.

Umusaza ufite imvi, wambaye amadarubindi, akaba afite isakazamajwi mu matwi yiwe, akaba yambaye agapira k'umweru, akaba afite ibikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri, akaba ari gukora umwitozo ngororamubiri wo kurambura amaboko, akaba ari hafi y'ishyamba.

Mu cyumba k'inyubako aho umusaza yicaye imbere y'ameza akaba ari kumwe n'umugore, umugore akaba ari kumutegurira umutobe w'imbuto, imbere y'iwe hakaba hateguye imbuto zitandukanye harimo pome n'imineke.

Mu cyumba cy'inyubako yo kubamo, umubyeyi n'umwana bakaba bari gukina umukino w'amakarita, bicaye imbere y'ameza, aho umubyeyi afite imisatsi y'umweru, umwana akaba afite imisatsi yirabura, bakaba bari kuganira bizihiwe.

Umukecuru ukuze ari kwa muganga, bamuhaye intebe yicaraho, bamuha imiti y'ibinini, bamuha igikombe kirimo amazi, k'ikirahure ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, ufite umugozi w'ikoranabuhanga mu ijosi, ukoreshwa mu buryo bwo kuvura.

Umukecuru n'umukobwa wiwe, umukobwa we yamuzaniye amazi n'ibinini, amwibutsa ko kunywera imiti igihe bimufasha gukira neza, mukecuru aramushimira.

Umukecuru n'umusaza bashakanye, bicaye imbere y'ameza maremare akoze mu giti, kuri ayo meza hakaba harimo uducupa tubiri tw'imiti, ndetse n'ikirahure cy'igikombe kirimo amazi, inyuma yabo hakaba hari imashini ikonjesha, n'indi mashini ishyushya.

Umusaza ufite ubwanwa burimo imvi wambaye umupira w'amaboko w'umukara, akaba yicaye imbere y'ameza afite mashini yo gukora akazi. Umukobwa we yamwibukije gufata imiti amuzanira ibinini ndetse n'amazi aranywa.

Abasaza bakuze basheshe akanguhe bagera ku icyenda, bahuriye mu nyubako imwe basasa imisambi baraganira, harimo abakora imyuga yo kuboha ibiseke kugira ngo biteze imbere.

Umubyeyi uri kumwe n'abana babiri, umwana w'umusore ndetse n'umwana w'inkumi aho bari ku meza biyakira bari gufata amafunguro harimo , umugati, hakaba harimo imboga, amafunguro agiye atandukanye afite n'ibyo kunywa.

Umubyeyi wasuye umwana we mu kazi akora, umwuga wiwe ni ukuvura abarwayi, ahageze yafashe ifoto ari kumwe n'umwana wiwe, kugira ngo ijye imwibutsa akazi keza yakoze ko kwishyurira umwana we amashuri.

Umusaza munini, wambaye umupira w'amaboko, ufite ubwanwa burimo imvi, akaba yakiriwe n'umukobwa, wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, akaba ari kumukora ku bitugu, amufata ku kaboko, amutera inzenya bakaba basetse.

Abagore batanu bambaye mu buryo butandukanye, babiri bambaye amapantaro, abandi batatu bambaye amajipo hamwe n'umugabo umwe w'umwera n'abana batatu, aho bicaye bari gutebya bari guseka, umwe mu bagore akaba ari kuboha inkangara.

Umurwayi uri mu cyumba cyo mu bitaro akaba arembye akaba afite imashini zimucometseho zigaragaza uko umutima we utera, akaba ari kumwe n'umuganga uri kumubaza uburyo amerewe n'uburyo ari kwiyumvamo, kugira ngo abone uburyo amufashamo mu buryo bwo kumuvura.

Imbaga y'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru bafite intego ivuga ngo irinde virusi itera SIDA wipimishe uyu munsi.

Umukecuru uri mu zabukuru, wambaye agatambaro k'umutuku, akaba arwaye ijisho, iryo jisho bakaba barivuye bakaripfukisha igipfuko gisa umweru, akaba afite n'ikibazo cy'amenyo.

Inyubako ifite icyumba kinini yateraniyemo abantu baturutse impande n'impande zitandukanye mu bihugu bitandukanye, harimo abirabura n'abera bicaye mu ntebe z'umutuku mu cyumba bateraniyemo kirimo ikirangantego cy'u Rwanda.

Inama y'abantu bakeya batarenze batanu abagabo batatu n'abagore babiri, aho bari bicaye ku imbere yameza y'ikizeru bakoze inama bafite imashini za mudasobwa. Uwari ubayoboye yari ahagaze mu myambaro yambayemo ikote n'ipantaro y'umukara afite indangururamajwi.

Mu kirango cy'Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima turabonamo inyuguti eshatu ziri mu mabara atandukanye ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, ayo mabara tukaba tuyabona no mu kirango cy'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Urubyiruko rwinshi rw'abakobwa n'abasore, bambaye imipira y'umweru yanditseho arabicsi ruri mu rugendo shuri, bafite ubutumwa buvuga ngo kanseri y'ibere iragurwa igakira.

Umusaza usheshe akanguhe wambaye umupira w'imbeho uri mu ibara ry'ubururu ryijimye, akaba yambaye ingofero, akaba yambaye amadarubindi, ari gutanga ubutumwa bw'uko urukingo rw'ubushita bw'inkende rwatangiye kuboneka.

Ibiryo dukoresha bigatanga ubudahangarwa bwo mu mubiri, bikongera abasirikare b'umubiri, bikavura indwara zitandukanye mu mubiri wacu. Harimo: karoti itukura ndetse n'iy'umuhondo, hakabamo inyanya, hakabamo indimu, hakabamo ibitunguru n'ubunyobwa. Na avoka.

Icyumba kinini kigari, kirimo abantu benshi, kirimo abagore n'abagabo bambaye mu buryo butandukanye, abagabo bambaye amakoti n'amapantaro, amakaruvati, bambaye mu mabara atandukanye, umweru, umukara na kaki.

Mu gitaramo cyiza cy'umunsi w'intwari, abagabo n'abagore bashanananitse bambaye neza, bashayaye mu mbyino nziza ya kinyarwanda, bataramiye abantu benshi, harimo abagore, urubyiruko, hakabamo n'abagabo.

Abaganga bagera kuri bane bakiriye umurwayi urembye cyane, ubwo bari bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu n'udupfukamunwa turi mu ibara ry'ubururu n'umweru, bamaze kumwakira bamushyizeho icyuma kimwongerera umwuka.

Ababyeyi bane bari kumwe n'abana babo b'impinja bafurebye neza, bambaye utugofero, abo babyeyi bose bambaye ibitenge. Baje guhura n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo babagire inama ku bigendanye n'imikurire y'abana.

Ababyeyi babiri bagiye kwikingiza urukingo rwa covid cumi n'icyenda, bakaba bagiye gutera urushinge umubyeyi wambaye agapira k'umweru, ariko akaba afite ubwoba bwinshi, bakaba bagiye kumutera urushinge ku kaboko.

Ikigo gikoreramo abazungu n'abirabura abayobozi babo ni barindwi bakaba bafashe ifoto y'urwibutso yo kurangiza umwaka bishimira intego bari bihaye ko bayigezeho.

Inama ngarukamwaka yabereye muri Lemigo hotel, irimo abirabura n'abazungu, irimo abantu benshi, akaba ari inama yiga ku buzima bw'abantu n'imibereho myiza.

Umubyeyi w'umukecuru uri mu zabukuru wambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe, akaba afite uburwayi bw'ijisho, akaba apfutse igitambaro cy'umutuku, akaba afite ikibazo cy'uko yanakutse amenyo.

Ikirango cy'umunsi Mpuzamahanga wahariwe kwita ku bidukikije, kiba ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda kikaba ngarukamwaka, kikaba gikozwe n'amabara, icyatsi kibisi, umuhondo n'umweru.

Umurwayi wambaye amadarubindi n'ishati y'umweru, yakiriwe n'abaganga batatu afite n'umurwaza we, akaba bari kumupima bamufata amaraso kugira ngo bamenye uburwayi arwaye.

Mu cyumba kinini cyane, kirimo imashini z'ikoranabuhanga ziri mu bwoko butandukanye, hakabamo imashini z'isakazamashusho, imashini zongera umwuka mwiza, hakaba harimo amatara yaka cyane, afite urumuri ruhagije, hakaba harimo n'imashini zifite amapine zigenda.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, kikaba ari inyubako yubakishije amatafari ahiye, kikaba kiri mu ibara ry'umweru, hejuru ku gisenge hakaba hari imashini ishinzwe gufata imirasire y'izuba, kugira ngo ize kuyikoresha ku mugoroba mu buryo bwo kugira ngo hagire urumuri.

Mu nyubako y'icyumba cy'ibitaro harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bitaro nk'igitanda cy'abarwayi haryamyeho abarwayi babiri, muri abo barwayi barembye cyane harimo abari kongererwa amaraso.

Iburasirazuba mu bitaro by'i Rwamagana habaye umuhuro hagati y'abirabura n'abazungu bakora muri ibyo bitaro, baraganira bamaze kuganira bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bibukiranya amateka y'ahashize.

Mu nyubako ifite ibara ry'umukara n'umweru n'icyatsi n'umutuku, umugabo wambaye imyambaro y'ubwirinzi bw'icyorezo kigendera mu mwuka, akaba yambaye imyambaro ipfutse guhera ku mutwe kugera ku maguru, akaba yambaye ibirato bigera mu mavi biri mu ibara ry'umukara.

Umugabo wicaye munsi y'igiti cy'inganzamarumbo kinini cyiza, ari kugama izuba yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko maremare y'ubururu, uruhande rwiwe hakaba hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi.

Mu cyumba cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi ukoresha kugira ngo ukomere, ugabanye ibinure, ukomeze imikaya, hari ibikoresho bikurura amaguru kugira ngo imikaya y'amaguru ikomere.

Inyubako y'ikigo cy'abihayeyimana bo mu idini rya Katorike, ifite inzugi z'ibyuma n'ibirahure, imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo ibiti birebire n'indabyo ngufiya, muri ibyo biti birebire hakaba harimo ibiti by'imbuto nk'amaronji.

Inyubako nini, iri mu ibara ry'umweru, ikaba ifite isakaro ry'umukara, ikaba ifite amadirishya y'ibirahure yinjiza urumuri rwinshi, ikaba ifite inzugi nini ngari, ikaba ifite imihanda ikoze neza igana aho iyo nyubako iri, ikaba ikorerwamo ubushakashatsi butera indwara abaturage.

Ibitaro bikomeye byose usanga bifite imashini nini, ikaba iba iri mu cyumba kinini kigari cy'umweru, iyo mashini akaba ari imashini nini y'umweru, ikaba iba ifite aho umuntu aryama akayinjiramo, ikabasha kumusuzuma indwara arwaye zose.

Icyumba cy'ivuriro ry'ababyeyi, harimo umwana ukivuka uryamye mu gatanda kiwe, ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, akaba yambaye ingofero y'umweru, akaba yambaye n'uturindantoki tw'umweru, bigaragara ko yishimye cyane mu maso yiwe, akaba afite akamwenyu ku munwa.

Ubushakashatsi mu gukora imiti no kurwanya indwara z'ibyorezo, bifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga bibafasha kureba ibyo amaso atabasha kureba, hakoreshejwe n'uducupa tubonerana, harimo amacupa manini n'amatoya.

Icyumba kiri mu bitaro gifite igitanda gifite ububiko hasi, ku musego hakaba hari imashini y'isakazamashusho, mu mirambizo hakaba hari imashini ifasha umuganga kuvura umurwayi, hakaba hari n'ishusho iriho imbuto zitandukanye.

babyeyi bishimiye igikorwa cyiza leta yabagejejeho ubwo batahaga inzu y'ababyeyi babyariramo akaba babahaye n'abaganga bazajya babafasha mu gutaha icyo gikorwa baba bari kumwe n'inzego z'umutekano abakuru b'amatorero ndetse n'ababikira.

Ivuriro rya Murekatete Marie Denyse, rikaba riri mu nyubako y'umuhondo, rikaba rikorana n'ubwishingizi bwo kwivuza RAMA RSSB, n'ubundi bwishingizi butandukanye, rikaba rifite inzugi nini, rikaba rifite urumuri ruhagije cyane ko ryubakishije ibirahuri.

Inyubako nini cyane y'umuturirwa, yubakishije ibirahure by'ibara ry'ubururu, ikaba ifite ubusitani bunini burimo ibiti birebire bita imikindo, ikaba ikorerwamo ubuvuzi bwakira abarwayi bose.

Mu cyumba kinini kiri mu ibara rya kake n'ibara risa n'ivu, mu bikoresho by'umukara bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho umuntu akoresha mu gihe ari kwirukanka agorora amaguru, hakaba n'ibikoresho umuntu akoresha ari guterura mu buryo bwo kugabanya ibinure by'inda ndetse n'ibinure byo mu maboko.

Mu cyumba cy'ibitaro bikorerwamo ubuvuzi bw'abana, harimo ibikoresho bitandukanye umuganga yifashisha ari kuvura abana nk'igitanda aryamishaho umwana, intebe yicaraho ari kuvura nk'icyuma kizana umwuka mwiza muri icyo cyumba, hakabamo n'amashusho abana bareba barangaye kugira ngo muganga abavure neza, hakabamo Inkende, Ingwe, n'izindi Nyamaswa.

Ikigo cy'ubuzima gifasha abafite ubwandu bw'agakoko gatera Sida, gikorera i Kigali, ku muhanda wa kaga nimero maganatanu mirongo icyenda n'icyenda ku nyubako ya makumyabiri, kikaba kiri mu igorofa ry'amabara y'umweru n'umukara imbere yacyo kikaba gifite icyapa kirimo umweruru, kikaba kirimo umukara, kikaba kirimo n'ibara ry'iroza.

Mu kigo kinini cyubatse neza cyubakishije amatafari ahiye, kikaba gisakajwe amabati y'ubururu, kikaba kirimo ubusitani bwiza burimo indabyo zitukura, iz'umuhondo ziri mu mabara menshi, hakaba harimo ibiti bita imikindo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bisaba kubaga umubiri, harimo ibikoresho bitandukanye, za mudasobwa, hakabamo imashini zitanga umwuka mwiza, hakabamo agatanda umurwayi aryamaho, hakaba ububiko bw'imyanda butandukanye bugera kuri butatu, bufite amabara atandukanye, ubururu, umweru, n'umutuku.

Ibitaro bya Ruhengeri biri hafi y'umuhanda nyabagendwa, hafi y'aho ibinyabiziga bihagarara, bikaba bifite uruzitiro rukozwe n'ibyuma n'amatafari ahiye, bikaba bifite ubusitani bunini burimo ibiti binini ndetse n'indabyo ntoya.

Inyubako nini, yubakishije amabuye agerekeranye, ikaba ifite idirishya rinini ry'ikirahure, imbere yayo hakaba hari abantu batatu, impande yayo ikaba ifite ubusitani burimo indabyo nziza zishishe zeze.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ni ibitaro byegereye umuhanda wa kaburimbo ugendwa nyabagendwa, bikaba bifite ubusitani hafi n'umuhanda, bikaba biri mu ishusho y'umweru n'ibara ry'umukara, bikaba bifite icyapa kinini kibiranga.

Icyumba kiri mu ibara ry'ivu n'umweru, kikaba gifite uburingiti buri mu ibara rya kake kikaba gifite igitanda gifite amapine kibasha kugenda, muri icyo cyumba hakaba hari ahantu ho kujugunya imyanda, ahantu ushobora kogera intoki, isabune yo koza intoki.

Ikigo cy'amashuri gifite ubwiherero bwubatse neza, hafi y'ubwo bwiherero hakaba hari ubusitani, bufitemo ibiti by'imbuto, nk'amacunga, ibiti by'indimu na avoka, inyuma y'ubwo bwiherero hakaba hari ibigega by'amazi bigera kuri bine, by'ibara ry'umukara, bikaba bifite n'amatara manini maremare, atanga urumuri mu gihe cy'umwijima.

Inyubako ya Minisiteri y'Ubuzima iri mu ibara ry'umweru mu isakaro ry'ubururu, imbere yayo hakaba hashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda, ikaba ikora ubushakashatsi ku ndwara ya malariya n'izindi ndwara.

Mu nyubako nini ifite inzira zikoze neza zubakishije amatafari, zikaba zifite ubusitani bwiza bw'ibiti binini n'indabyo zikiri ntoya, zikaba zifite ubwatsi bukase neza, iri ahantu hatuje hari umuyaga.

Umugabo wambaye imyambaro y'ubururu, akaba ari mu cyumba kirimo ameza, akaba afite imbere yiwe imashini za mudasobwa ebyiri, akaba ari gusuzuma umuntu urwaye imbavu, muri izo mashini hakaba harimo ishusho y'imbavu z'umuntu.

Abagore bagera muri batandatu bambaye impuzankano z'amapantaro n'amashati byo mu ibara ry'ubururu bakaba bakora mu ivuriro ryitwa placelagac akaba ari ivuriro ryigenga rivura indwara zitandukanye.

Mu nyubako y'ibitaro hari n'icyumba cy'ububiko bw'imiti, icyo cyumba kikaba gifite utubati tugiye turambitsemo imiti, dufite ibyumba bitandukanye, harimo imiti iri mu makarito, imiti irimo uducupa, iri mu mabara agiye atandukanye umweru, ubururu n'icyatsi kibisi.

Icyumba cy'ibitaro byahariwe ubuvuzi bw'amaso. Muri icyo cyumba harimo ishusho igaragaza ibice bigize ijisho, hakabamo mudasobwa, hakabamo intebe enye ziri mu bice bitandukanye, bibiri bitandukanye hakabamo igice umuganga yakiriramo umurwayi, hakaba n'igice umuganga avuriramo umurwayi.

Mu nyubako y'ibitaro bivura amaso, biri mu ibara ry'umweru aho abarwayi bategerereza, hari ishusho y'ijisho rinini rigaragara ko ryasenyutse abaganga bari kurisana.

Inyubako y'umuhondo iriho icyapa k'iguriro ry'imiti, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru, hakaba hahagaze ibinyabiziga bibiri, ikinyabiziga kiri mu ibara ry'ubururu n'ikinyabiziga kiri mu ibara ritukura, ikinyabiziga kimwe kicayeho umuyobozi wacyo.

Ikigo kivura kanseri mu Rwanda kiri mu nyubako y'umuhondo, inyuma yacyo kikaba gifite ubusitani bw'indabyo ngufi nziza. Kikaba gifite amadirishya y'ibirahure ku buryo yinjizamo umwuka.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo kiri hafi y'umuhanda mugari nyabagendwa, kikaba gifite uruzitiro rukozwe mu byuma, kikaba cyubakishije amatafari ahiye, kikaba gifite isakaro riri mu ibara ry'ubururu, kikaba gifite ikigega gifata amazi,

Imashini nini bita sikaneri, ni imashini ikoreshwa n'abaganga, bayikuryamishamo bamara kuyikuryamishamo bakayipfundikira, icometseho iyindi mashini ya mudasobwa, maze iyo mashini ikagupima indwara yose waba ufite.

Icyumba cy'ibitaro cyahariwe uburyamo bw'abarwayi, kikaba kirimo abarwayi babiri, ariko ibitanda biri muri icyo cyumba byose bikaba bifite inzitiramibu iri mu ibara ry'umweru. Iyo bigeze ku mugoroba barazimanura bakaziryamamo.

Ikigo cy'amashuri cy'abana, gifitemo icyumba kirimo imiti ndetse n'umuganga ukoreramo, uwo muganga akaba yakiriye umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ibara ry'umweru ndetse n'ibara risa n'ivu, muri icyo cyumba hakaba harimo imashini yongera umwuka mwiza, uwo muganga akaba yamufashije amupima umuriro.

Icyumba dukoresha mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho bidufasha mu buryo bwo kwirukanka, ibikoresho bidufasha mu buryo bwo kunyonga, ibikoresho bidufasha mu buryo bwo guterura kugira ngo dukomere.

Mu bitaro bishinzwe kubyaza abagore haje umubyeyi utwite, abaganga baramwakira baramufasha abasha kubyara neza, afata ifoto ateruye umwana wiwe aseka ashinyirije kubera ko yababaraga.

Mu cyumba cy'ivuriro turahabonamo umurwayi waryamishijwe ku gatanda, akaba yakiriwe n'umuganga, akaba yamushyizeho igikoresho cy'ikoranabuhanga, yashyize ku mutima wiwe kugira ngo arebe ko ukora neza.

Icyumba cyo mu bitaro kirimo igitanda cyagenewe kuryamamo abagore batwite, hakaba harimo n'udutanda dutoya twagenewe kuryamamo impinja zikivuka, hakaba harimo n'ibitara binini bizana ubushyuhe muri icyo cyumba, hakaba harimo n'imashini zifasha abaganga kuvura abarwayi.

Inyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, iri mu ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye bakoresha bakora imyitozo, hari ibikoresho bakoresha baterura, hari ibikoresho bakoresha baryamaho, hari n'ibikoresho bakoresha birukanka.

Mu cyumba kinini cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo amamashini menshi afasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo imashini zifasha umuntu gukora imyitozo zigabanya ibinure by'inda, hakaba imashini zifasha gukora imyitozo ngororamubiri zigabanya ibinyenyanza.

Mu cyumba cy'abarwayi bafite imvune, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakabamo intebe ya muganga, hakabamo agatanda k'abarwayi, hakabamo imashini ifasha umuntu kwirukanka atavuye aho ari, hakabamo imashini y'insakazamashusho na mudasobwa n'isaha.

Ni ivuriro rinini cyane rikoreramo abirabura n'abazungu, bakaba bafite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, bakaba banyuranamo buri kanya, bakaba bafite umurava mu kazi kabo bakora.

Inyubako nini cyane ikorerwamo imirimo ya leta, iri ahantu hirengeye ku musozi, hafi yaho hari amashyamba, ikaba imbere yayo hari ikirango cy'idarapo ry'igihugu kigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi.

Inyubako y'umuturirwa, yubakishije ibirahure by'umukara n'amatafari, ikaba ari inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ikaba ifite imbuga nini yubakishije amatafari akozwe na sima, ikaba ifite amarembo abiri yegeranye, ikaba ifite aho baparika ibinyabiziga.

Mu cyumba cy'uruganiriro kirimo ameza ane, imeza imwe isa umukara, iyindi isa umweru, iyindi isa kaki, ebyiri zisa kaki, kari kumwe n'intebe enye zisa ibara rya kaki, rivanzemo ibara ry'ivu.

Inyubako nini ifite icyumba kinini gihagije muri icyo cyumba harimo intebe nkeya ebyiri, ikaba ifite urumuri ruhagije ikaba iri mu mabara abiri yiganje umweru n'umukara ikaba ifite igikoresho cy'umutuku gikoreshwa mu gihe inyubako yatejwe n'inkongi y'umuriro.

Abagabo babiri barwariye mu ivuriro bakaba baryamye ku dutanda dusa ubururukaba dufite n'ibara ry'umweru bakaba bari kwitabwaho bakaba bafite abaganga babiri b'abagore bari kubitaho hakaba harimo umwe ufite imisatsi iboshye akaba afite n'undi ufite imisatsi itaboboshye bakaba bambaye amataburiya.

Inyubako nini, nyinshi, zisa, ziri mu ibara ry'umweru zikaba zifite amatara yaka cyane, izo nyubako zikaba ari ibitaro byakira abantu batandukanye, zakira imbagwa, zakira abagore batwite bagiye kubyara, zikaba zakira icyumba cy'abagabo, hakaba hari icyumba cy'abagore, hakaba hari icyumba cy'indembe.

Inyubako yahariwe kuvurirwamo ababyeyi batwite n'uburyo wakita ku mwana ukiri mu nda ndetse kugera avutse n'umwana uvutse uburyo wamwitaho agakura neza.

Icyumba k'ivuriro rivura abarwayi, harimo mudasobwa enye, igitanda cy'umurwayi, intebe ebyiri, hakaba harimo imashini zitandukanye zikoreshwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba cy'ivuriro ry'abarwayi kirimo ibikoresho byinshi, kikaba ari gitoya, aho gifite intebe nyinshi zo kwicaraho zirimo ibara ry'umutuku, kikaba gifite na mudasobwa, kikaba gifite naho bogera intoki.

Ikigo nderabuzima cya shagasha cyubatswe n'amatafari matoya ahiye gisize amarangi y,umuhondo kikaba gisakajwe n'amabati y'ubururu imbere yacyo hakaba hari umugore nu mugabo bafite abana babiri.

Ivuriro ry'ababyeyi riri mu ibara ry'umuhondo ryubakishije amatafari matoya ahiye, rikaba rifite intebe zikozwe mu biti by'imbaho, zikaba ziri ahantu mu ibaraza, aho abantu bicara bategereje ababyeyi.

Inyubako y'ibitaro by'Akarere ka Rusizi, Umurenge wa Gihundwe bivura amaso, akaba ari ibitaro byubakishije amatafari ahiye, isakaro ry'ubururu, imbere yaho hakaba hari ubusitani n'inzira zubakiye neza.

Akarere ka Kayonza katumije inama hamwe n'abanyamakuru aho abo banyamakuru bamwe bicaye bafite za mudasobwa imbere yabo n'amazi yo kunywa ndetse imbere yabo bakaba hicaye abayobozi b'akarere, aho bari kwiga ku nama ijyanye no kurinda abaturage ibiyobyabwenge bashishikariza abaturage kwirinda no gukoresha ibiyobyabwenge.

Mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, harimo icyumba kirimo ibitanda bitanu bisashe, biriho amashuka y'ubururu n'ay'umweru, hakaba harimo amarido abitandukanya, hakaba harimo intebe bicaraho, hakaba harimo utubati bashyiramo imiti.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye na sima ifite amadirishya matoya y'ibirahure ikorerwamo aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umukozi w'igitsina gore wambaye umwambaro w'umweru n'misatsi miremire y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara, wambaye amadarubindi n'amaherena, akaba afite mudasobwa, akaba ari mu kazi kiwe kandi akaba agakorana umurava.

Icyumba kirimo intebe nyinshi zikoranye ubuhanga, izo ntebe zikaba zifite imeza ifatanye na zo, ku buryo umuntu uzicayeho abasha kubona aho ashyira ibintu afite, izo ntebe zikaba zicomekwa ku muriro, impande yazo hakaba hari imashini ikoranye na yo ubuhanga.

Icyumba cy'ibitaro gifite ibitanda byegeranye cyane kikaba gifite amadirishya manini yinjiza urumuri rwinshi, kikaba gifite amarido ari kuri ayo madirishya mugihe badakeneye urumuri bashobora kuyashyiraho, kikaba gifite n'inzitiramibu nyinshi zihagije.

Ababyeyi batatu b'abagore bari kumwe n'umwe muri bo akaba ari umuganga, akaba ari kubasuzuma indwara zijyanye n'umuvuduko w'amaraso, akaba yambaye uturindantoki n'agapfukamunwa n'amadarubindi.

Mu nyubako nini, iri mu mabara atatu, ibara ry'ivu ndetse n'ibara ry'umweru, n'igisenge cy'ikigina, imbere yayo ikaba ifite amadapo abiri, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'idarapo riranga icyo kigo, ikaba ikikijwe n'ibibindi birimo indabyo.

Mu kigo hari inyubako nyinshi ziri mu mabara y'umuhondo n'isakaro ry'umutuku, mu marembo yayo hari icyuma gitambitse kikubuza kwinjira kiri mu mabara y'umweru n'umutuku, hakaba n'icyapa kikubuza kuvuza amahoni mu gihe winjiye aho ngaho.

Inyubako y'umuturirwa y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi yubakishijwe isakaro ry'ubururu, amarangi y'umweru n'umuhondo kikaba cyakoraniweho n'abantu benshi harimo abagore n'abagabo abagore bahetse abana babo, harimo n'abakozi b'umutekano.

Mu bitaro harimo inyubako nini iri mu ibara ry'umuhondo n'amadirishya y'icyatsi kibisi afite ibirahure by'umukara, ikaba yarahariwe kuba inyubako ababyeyi babyariramo abana. Akaba ifasha abana n'ababyeyi.

Ibitaro harimo icyumba kinini cy'abarwayi, kirimo ibikoresho byose, harimo igitanda, matera, amashuka n'ibiringiti, kikaba kirimo abarwayi benshi, kikaba kirimo abaganga, kikaba kirimo n'abakora amasuku, bakaba bafite ibikoresho byose nk'amazi n'indobo.

Umugabo ufite isura yirabura, akaba afite icupa ry'amazi ribonerana ririmo amazi, akaba ari kuyanywa, akaba yambaye umupira w'umukara ufite amaboko maremare.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, ufite imisatsi myinshi igwa mu mugongo iboheranyije, akaba yicaye ku buriri amaze kubyuka, abanza kwigorora yinanura agorora ingingo ziwe.

Imeza iteguyeho ibintu bitandukanye, iteguyemo ibikoresho umuntu akoresha akora siporo, ikaba iteguyemo ibyo kurya bitanga intungamubiri, ikaba iteguyemo imbuto zivura, ikaba iteguyemo n'imboga umuntu arya.

Mu bitaro mu cyumba cyahariwe kuryamamo abarwayi, harimo abarwayi benshi, abo barwayi baje gusurwa n'abaganga b'inzobere mu ndwara zitandukanye, aho bari bafite insakazamashusho, bari bari kwerekana banahugura abarwayi uburyo bakirindamo indwara.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi. Dore uburyo bwiza wakoramo imyitozo ngororamubiri, usutama ntugeze ikibuno hasi, ukarambura amaboko, ukagorora umugongo. Ubundi buryo bwa kabiri, uba uhagaze ugororotse ukarambura amaboko ukamara umwanya muremure.

Mu kibuga kinini cyubakishije umucanga na sima, harimo abakinnyi bafite itsinda rinini bambaye impuzankano y'umweru n'umukara, hakaba hari abantu baje kubareba benshi biganjemo urubyiruko, abagore n'abagabo, icyo kibuga kikaba kiri hafi n'urutoki.

Umukobwa ufite imbaraga w'inkumi, wambaye isengeri y'ubururu bwerurutse, ufite umusatsi uboshye, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yafashe akaboko akagakoza mu mugongo, akandi akagafatisha ukundi agakora mu nkokora, akaba ari kureba hakurya imbere ye.

Uyu n,umukobwa wambaye ipantaro yubururu yagendaga yatsikiye aravunika ahita areba umuti ukonje cyane ku kigero kiri hejuru ashyira aho yavunitse arahomora maze arakira.

Icyumba kiberamo imikino y'amaboko, harimo abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umukarara n'ipantaro y'ikigina, undi yambaye umupira w'umutuku, akaba yambaye isaha, akaba yambaye n'ikabutura y'umukara, n'inkweto z'umukara, akaba ari gukina n'imikino y'amaboko.

Umugabo uhagaze ku kanyabitende, kagendeshwa n'ukuguru kumwe kw'abantu, kasa ibara ry'ubururu, akaba yambaye inkweto zifunze, akaba yambaye amasogisi y'umukara, akaba yambaye ikabutura y'umukara n'umutuku, akaba yunamye agiye gutora akantu kameze nk'agakombe.

Umugabo n'umugore mu myitozo ngororamubiri yo kwirukanka bagana mu misozi, aho umugore yambaye isengeri y'ubururu n'ikabutura y'umukara, umugabo akaba yambaye isengeri isa n'ivu akaba yambaye ikabutura irimo icyatsi kibisi ndetse n'umukara, aho bari kwirukanka burira imisozi.

Umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga, akaba amuteruye, hakaba hari umuganga uri kumusuzuma akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga, uburyo ari kumusuzumamo ari kukimwerekeza ku jisho, akaba yicaye iruhande rw'ameza ariho imigozi myinshi, iyo migozi ikaba ifashe ku byuma by'ikoranabuhanga.

Umugabo uryamye ku gatanda wahuye n'inzobere mu kugorora imitsi akoresheje intoki, aho abikora ameze nk'aho ari kumupyipyinyura, bikarangira agororotse neza.

Umugabo mu byo akora byose azirikana ko amazi ari ingenzi, bityo iyo agiye akayashyira mu icupa kugira ngo igihe cyose inyota imwishe agombe anywe ku mazi kandi amazi meza afite isuku ihagije.

Ameza ateguyeho inkeri, pome, amaronji, akaba ariho n'umutobe w'imbuto. Aya meza akaba ariho na metero ipima uburebure bw'umuntu cyangwa ubugari akaba ariho ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Umukobwa w'umwari, wambaye ipantaro imwegereye iri mu ibara ritukura n'isengeri y'umuhondo, akaba ari mu cyumba cyo kuraramo, akaba yateguye ahantu agiye gukorera imyitozo ngororamubiri, akaba yicaye mu buryo agomba gukoza umutwe ku birenge byiwe, mu buryo bwo kugorora umugongo.

Umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru ubwo bajyaga mu kibuga bari gukina umupira yatsikiye, yikubita hasi, avunika mu ivi, abaganga baza birukanka, baza kumutabara, aho bamuvuraga mu ivi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, aho ari gukora umwitozo wo kwicara hasi ukarambya warangiza ugafata ku mano ukagorora umugongo, ibyo bifasha imikaya yo mu nda ndetse n'iyo mu mugongo gukomera.

Umugabo munini ufite ibigango, ufite imikaya minini y'akaboko akaba amaze gukora siporo, akaba ari kunywa amazi hakaba hari izuba ryinshi aho ahagaze.

Umusore n'umukobwa bambaye imyambaro ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri bambaye inkweto zifunze, bafite ibikapu bibiri by'umukara uwo musore akaba ari kunywa amazi meza.

Icupa ry'amazi iryo cupa rikaba rikozwe mu buryo bwa parasitiki, rikaba ririmo amazi meza atunganywa n'uruganda, bakaba bari kuyasuka mu gikombe kibonerana gikozwe mu itasi, ayo mazi akaba ari ayo kunyobwa.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, umugabo ukuze igihe asoje gukora imyitozo ngororamubiri arabanza akaruhuka, agafata amazi, amazi meza ari mu icupa asukuye, yarangiza akanywa agashira inyota.

Umukobwa muremure w'imisatsi miremire igera mu mugongo wambaye isengeri n'ikabutura by'icyatsi bibisi bisa, wambaye n'inkweto z'icyatsi kibisi akaba agororotse akaba ari gukora siporo, akaba yazamuye akaguru akagahina hafi yo kukageza ku ibere.

Igipupe gikoze nk'umuntu, cyambaye ubusa, kikaba kiryamye kigaramye, kikaba kigaramye ku meza, kikaba kiri kwifashishwa nk'imfashanyigisho, abaganga bari kwiga kuvura, ku ruhande rwacyo hari imashini ifite umugozi n'akandi kamashini gatoya bashyize hafi y'umutima w'icyo gipupe.

Uyu muntu ni igitsina gore, ari hafi y'inyanja yambaye isengeri y'umweru, aba yambaye ipantaro y'umukara akaba amanitse amaboko hejuru, akaba afite imisatsi myiza miremire akaba ari kumva akayaga.

Umugabo wambaye ubusa mu gatuza, akaba yambaye ikabutura y'umweru n'isaha y'umweru, akaba yambaye inkweto z'umweru, akaba yarishushanyije ku mubiri, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bwo gukora ku kaguru kandi akaguru karambuye, uburyo bwo gukomeza imikaya.

Imbago ni igikoresho gikoreshwa n'umuntu ufite akaguru kavunitse, umuntu ufite udafite akaguru akaba ari igikoresho kiza kitaremereye kandi gisimbura akaguru kikaba cyakora ibyo akaguru kakora.

Imodoka bita imbangukiragutabara, ikaba ari imodoka y'ibitaro iri mu ibara ry'umweru n'umutuku n'umukara, ikaba icanye amatara ikaba igeze mu marembo y'ibitaro ikaba ijyanyemo umurwayi.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi akaba afite ibikoresho by'akazi yambaye mu ijosi, akaba ari kwambara agapfukamunwa, uturindantoki. Akaba afite mudasobwa ifunguye iri imbere ku meza akaba afite n'ibitabo ku meza.

Icyumba cy'ibitaro kirimo ibikoresho byinshi by'ingororangingo, harimo umugabo wavunitse akaguru, akaba afite umutoza uri kumufasha kugorora ingingo z'akaguru. Izo ngingo z'akaguru zikaba zaravunitse ubwo yakinaga umupira w'amaguru.

Inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri akoresheje amaguru, akaba ari gukoresha imashini yabugenewe imukururira amaguru.

Mu cyumba cy'ibitaro kirimo ibikoresho bitandukanye by'abarwayi, harimo intebe yo kuwicaraho iyo ntebe ikaba ikoranye ubuhanga ku buryo ushobora kuyigaramisha ikamera nk'aho ibaye nk'igitanda, iyo ntebe ikaba iri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, akaba hari n'intebe umuganga na we yicaraho ari kuvura umurwayi we.

Umusore w'ingimbi ufite ibigango, wambaye agapira gaciye amaboko, ufite amazi yo kunywa aturuka mu ruganda aza mu icupa, akaba yambaye indangururamajwi, akaba agaragara nk'umusore ukomeye cyane.

Icyumba kirimo inzobere mu kugorora ingingo z'abantu, bari muri icyo cyumba, harimo igitanda kiryamyeho abantu babiri, bari kugororwa umugongo ndetse n'amaguru.

Ameza ateguyeho ibintu bitandukanye nk'imbuto zo kurya, harimo imicungwe, imineke, indimu hakaba hariho inanasi, hakaba hariho pome, hakaba hariho n'imidari, ibinini, icupa ry'amazi yo kunywa.

Ikibuga kinini gifite uruzitiro rw'ibiti, kikaba cyubakishijwe umucanga na sima, umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri, yongera igakomeza imikaya y'amaguru ndetse n'iy'amaboko, akaba yambaye isaha, inkweto zifunze, amasogi, ikabutura y'umukara n'insengeri y'umukara.

Ubwo umwana w'umuhungu wakiniraga mu rugo, yaje kugira ibyago aratsikira aravunika, umubyeyi we mu butabazi bw'ibanze, yamuteruye amushyira hejuru y'akabati aho abasha kumukanda, arangije kumukanda amusigiraho umuti, amuhambiriza igitambaro cy'umweru mu buryo bwo kumupfuka.

Umukino wahuje abana benshi batandukanye bari gukina umukino w'amaboko, abantu bafannye, bishimye, basimbutse, bameze neza. Imikino ni myiza mu buzima.

Izuba riri kurenga inyota yishe umukobwa ufite mu maso harehare ashira amazi mu icupa, icupa risa icyatsi kibisi amazi meza arayanywa ayanywa ahumirije.

Umugabo wari uri gukora siporo, yari ari kwirukanka aratsikira agwa hasi avunika mu ivi, yegera umuganga atangira kumukanda, aho ari kubabara amukandakanda ageraho aza gukira.

Ubutabazi bw'ibanze mu kuvura umuryango wawe ni ngombwa. Ugomba gutunga isanduku ibamo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, harimo nk'ipamba ihanagura ibisebe, hakabamo ibitambaro bazirika ku mvune, ugatunga umukas,i ugatunga imiti ihanagura ibisebe, ugatunga utunini tugabanya umuriro, ugatunga n'inshinge, ugatunga n'udupfukantoki.

Umwitozo mu kugorora amaboko, mu gihe ufashe akaboko kamwe ukakarambura mu gituza cyawe, uzamuriramo akandi ukamera nkaho uyasobekeranye, ako kandi uzamuriyemo ugasa nkaho ugakwegesha akandi, ibyo bituma amaboko yawe agororoka mu mitsi ukamera neza.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umukara n'umweru n'icyatsi kibisi, kikaba gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, kikaba kigura amafaranga angana n'ibihumbi ijana na makumyabiri y'u Rwanda, akaba ari igikoresho gikoreshwa mu buryo bwo kugira ngo ugabanye ibinure by'inda.

Muganga ukora ubuvuzi bw'ibanze, aba afite igikapu gifite ububiko bwinshi burimo ibikoresho akenera, iyo asanze umurwayi aho ari. Aba afite igikapu kirimo ibikoresho bikata, ibikoresho bipfuka, ibihanagura, ibihambira, ndetse n'ibipima umuriro.

Icyumba cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo abagabo babiri. Umugabo umwe n' umutoza undi ari gukora siporo. Umugabo uri gukora siporo afite ibyuma bibiri biri mu ibara ry'umuhondo biremereye akaba apfukamye igice cyo hejuru kikaba kigororotse.

Umwambaro uri mu mabara atatu atandukanye, ubururu, umuhondo, n'umweru, akaba ari umwambaro wambara uhawe n'abaganga, bakawukwambika mu ijosi bawukwambika mu gihe ijosi ryagize ikibazo cyo kuvunika ryangekaye, ukagufasha mu kugorora ijosi, no kurishyira ku mwanya wawo.

Umugabo munini ufite imisatsi myinshi afungira inyuma ufite n'ubwanwa, wambaye isengeri y'umukara ni ikabutura y'umukara, amaze kubyuka yafashe umwanya ajya hepfo y'igitanda cyiwe akora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byibanze ugomba gutunga mugihe ufite umuryango muburyo bwo gukora ubutabazi bwihuse kuba ugomba kuba ufite umukasi, kuba ugomba kuba ufite igikwasi, kuba ugomba kuba ufite igitambaro gihambira ahantu umuntu yavunitse, kuba ugomba kuba ufite uturindantoki, udupfukamunwa, ibyo ni ibikoresho byibanze ugomba gutunga n'umuti woza ibisebe.

Igikoresho k'ikoranabuhanga, gikoreshwa n'abaganga mu buryo bwo kucyambara mu matwi, kindi gice bakagishyira ku mutima w'umwana, bagikoresha mu buryo baba bashaka kureba ko umwana ameze neza cyangwa umutima we ukora neza.

Umugabo munini w'ibigango wambaye isengeri y'umukara akaba yambaye ipantaro y'umukara numweru akaba yambaye inkweto z'umweru zifunze akaba yambaye insakazamajwi mu matwi yiwe akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igitsina gore cyazamuye amaboko mu buryo bwo kuyagorora, kirayasobekeranya mu buryo bwo kugorora ingingo. Akaba yambaye umushumi wirabura mu gahanga. Akaba afite imisatsi iboheranyije, mu buryo yayizirikiye inyuma akoresheje akagozi kari mu ibara ry'iroza.

Igihuru kigizwe n'ibyatsi byinshi harimo ibyiganjemo bita amatovu, akaba iyo akuze agira uburabyo busa iroza, akagira umumaro w'uko amatungo ayarisha, amatungo bita ihene.

Umurima uhinzemo ibiti byitwa umuravumba, bikungahaye mu kuvura indwara zimwe na zimwe zifata mu muhogo, igihe bawukoresheje neza bawutetse cyangwa bawukoresheje bawukaraze ukanywa amazi yawo.

Umusaruro w'imiti gakondo ukomoka ku bihingwa, uri mu mabara atandukanye, umutuku, umuhondo n'ikijuju, ikaba ikungahaye mu buryo bwo kuvura indwara z'abantu, zishobora kuba indwara z'inzoka, indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda.

Ikiyiko gikoze mu biti, n'isekuru ikoze mu biti, ndetse n'umuhini ukoze mu biti, ikaba ari ibikoresho abavuzi gakondo bakoresha mu buryo bwo gutegura imiti ivura abantu.

Ameza y'ikirahure ariho ibikombe bibiri by'ikirahure, akabaho ibibabi by'umwenya, ndetse n'umuravumba, muri ibyo bikombe bakaba bashyizemo amazi, bashyiramo n'uwo mwenya, ikindi bashyiramo umuravumba n'amazi, ukaba ari imiti ukoresha wivura inzoka no mu muhogo.

Imiti ikorwa n'uruganda bita Foreva, akaba ari imiti iri mu macupa atandukanye amaremare n'amagufiya amananini n'amatoya, ikaba ifite ikirango cy'akanyoni kaguruka, ikaba ivura umugongo, ikaba ivura mu ngingo mu ngingo z'akaboko, ikaba ishobora kuvura ibikanu ikaba ari imiti myiza.

Ubutumwa bw'umujyanama w'ubuzima ufite imiti uruhande rwiwe, akubwira ko dukwiye kurya ibiryo bifite intungamubiri kandi bivura imibiri yacu kugira ngo tutazarya imiti nk'ibiryo bigomba kuvura umubiri wacu.

Imbuto nk'indimu, ni ikiribwa umuntu arya kimufasha gukura iseseme mu kanwa, kandi kikaba gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye zifata mu muhogo w'umuntu, hakazana na mu cyayi cyayi nk'ikirungo cy'icyayi cyo kunywa.

Icyumba gikorerwamo imiti gakondo, harimo amababi menshi y'ubwoko butandukanye ku biti bigiye bitandukanye, hakaba hari umunzani wo gupima umusaruro w'imiti yavuye muri ibyo biti.

Ihuriro ry'imiti gakondo ikomoka ku bimera aho hari imiti itunganyije ikaba iri mu bubiko bw'akabati, iri mu macupa hakaba n'indi miti iba itari mu macupa, ikaba ari imiti ishobora gukoreshwa mu buryo bwo gusiga no guhekenya. Iyo miti ikaba iri mu mabara atandukanye umuhondo, umutuku, umweru ndetse n'andi mabara.

Iyo ufashe uburoso ugashyiraho umuti w'igikakarubamba ugatsirimisha ku menyo, amenyo abasha gucya agahinduka umweru kandi uwo muti ufasha no gukiza udusebe two mu kanwa dutandukanye, ukabasha no gutuma amenyo yera akaba umweru.

Amacupa agera muri arindwi amanini n'amatoya, arimo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye. Iyo miti yose ikaba ikorwa mu gihingwa cyitwa Igikakarubamba. Igikakarubamba kikaba gifite ubushobozi bwo kujyanwa mu ruganda kikavamo imiti myinshi itandukanye.

Urubuto bita ipapayi, rukaba rushobora kuboneka mu mabara ane iyo ruhiye, rukabonekawi ibara ry'umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi, imbere rukaba rufitemo n'utundi tubuto tw'umukara. Akaba ari urubuto ruribwa. Utwo tubuto tw'imbere, tukaba dushobora gukoreshwa nk'umuti uvura abantu.

Imiti gakondo itunganyije n'indi iri gutunganywa n'ibikoresho itunganyirizwamo, bigiye bitandukanye, iri mu mabara atandukanye nk'umuhondo, umutuku, ibikoresho biri mu mabara atandukanye umweru, ibara rya kake ndetse n'ibara rya shokora.

Umurima uhinzemo igihingwa bita igikakarubamba. Kikaba gikungahaye mu buryo bwo kuvura indwara z'abantu zitandukanye. Hakaba harimo indwara z'amenyo, indwara z'uruhu rw'umuntu ndetse n'indwara zo mu nda.

Uko wakorera isuku amenyo akaza asa neza, ari mu ibara ry'umweru, ukoresha umuti ukozwe mu giti cyitwa igikakarubamba, ukoreshe uburoso, maze woze amenyo yawe, ukoresheje n'amazi, arahinduka umweru.

Umuravumba ni ikimera gifatwa nk'indabyo kandi kikaba cyakoreshwa no mu buryo bwo kuvura indwara zifata umuhogo abantu, mu gihe bawutunganyije neza.

Ibyatsi bitandukanye bifite amabara atandukanye, harimo ibara ry'umuhondo, icyatsi kibisi, n'ibyerurutse, hakaba harimo ibyatsi bita imiravumba, haba harimo iby'intobo, ibyo byatsi byose bikaba bikorwamo imiti ivura mu buryo bwa gakondo.

Tunganya neza ikimera bita icyatsi cy'umwenya, kikagira umumaro wo kuvura indwara zitera abantu. Bakagitunganya bakoresheje isekuru, umuhini n'amacupa yo gushiramo uwo muti igihe bamaze kuwukora.

Igiti bita urumogi, akaba ari igiti gifite amababi menshi y'icyatsi kibisi ajya kwererukamo ajya gusa n'umuhondo iyo amaze gukura, akaba ari igiti kigira umumaro wo kuvamo umuti bita ikinya, akaba ari umuti ukoreshwa mu bitaro mu gihe urinda ububabare.

Amacupa abiri atandukanye arimo n'imiti ibiri itandukanye ikomoka ku gihingwa bita igikakarubamba. Igikakarubamba ni igihingwa gikize ku bushobozi gifite kuba cyavura indwara nyinshi zitandukanye.

Amacupa menshi y'ibirahure bibonerana, arimo imiti gakondo, iyo miti ikaba ivura indwara zitandukanye, hakaba hariho udupapuro tw'umweru twanditseho twerekana indwara iyo miti ivura.